Hano haragaragara kamera ishobora kwifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu n'abantu， ku buryo ushobora kumenya ngo umuntu wahageze，uwibye cyangwa se uwagize ikindi akora atabyemerewe， yanyuze he？ Yaciye he？ Ese ibintu byakozwe gute？ Iyi kamera igufasha kuza kubona uko igikorwa cyakurikiranye.

Umuyobozi mu rwego rw'umutekano, polisi arimo kuganiriza abaturage, aganiriza abantu batandukanye ibijyanye n'ibyo bagomba kubahiriza mu bijyanye n'ingendo bakora mu muhanda, baba bari n'amaguru cyangwa se bakoresha ibinyabiziga.

Ku muhanda wa kaburimbo inzego z'umutekano polisi zirimo gucunga umutekano, hari abana barimo kujya kwiga kandi inzego zicunze umutekano neza kugira ngo hatagira ugira ikibazo mu rugendo.

Hagaragaramo abamotari bari mu kazi kabo ka buri munsi . Hano hagaragaramo kamera ikoreshwa mu kwandika amakosa y'abashoferi . Kandi na none kuri iyi foto haragaragaramo feruje. Ikigaragara cyo nuko urujya n'uruza n' imirimo ya buri munsi y'abamotari, yakozwe neza kandi bagendeye ku mategeko.

Mu muhanda wa kaburimbo aho inzego z'umutekano zirimo zikangurira abamotari gukurikiza amategeko, babagaragariza ko inzira yagenewe abagenzi batagomba kuba bayinyuramo abagenzi barimo kwambuka, ahubwo bagomba gukomeza kugenda ari uko abagenzi bamaze kuhatambuka.

Abayobozi mu nzego z'umutekano, abasirikare barimo baganirizaga abaturage benshi mu bijyanye n'umutekano, babaganiriza uburyo bashobora kwirindira umutekano aho batuye. Ni ikiganiro kirimo kubera mu kigo cy'amashuri.

Abantu mu nzego z'umutekano, barimo gukora imyitozo ibafasha kurinda umutekano w'abantu bakarinda n'ibintu byabo. Ni imyitozo barimo gukora bayikorera ahantu heza habugenewe, ku buryo bashobora kwicungira umutekano bakanawucungira n'abantu babo.

Inzu ikorerwamo inama zitandukanye, aho yahuje abayobozi ku nzego zitandukanye za Leta, bagatumira n'abashinzwe gucunga Gereza, ndetse n'abandi bayobozi barimo gukurikirana inama n'impanuro, ku bijyanye no gucunga umutekano mu bihe bitandukanye.

Aha haragaragara inteko y'abaturage aho abaturage batandukanye basuwe n'ubuyobozi, basurwa n'inzego z'umutekano polisi basurwa na ribu ikigaragara cyo barimo baganira kuri gahunda za Leta zitandukanye.

Iyi foto iragaragara, iragaragaza imodoka igiye muri kontorore tekinike, inzego z'umutekano zirahari, ibikoresho bihagije birahari, barimo gusuzuma ubuziranenge bw'iyo modoka uko bumeze, ibikoresho by'ingenzi byose birahari, iterambere rirahari kandi ku buryo buhagije.

Ibikoresho bikunze gukoreshwa ku mazu y'abakire, bikunze gukoreshwa no ku mazu ya leta, ibi bikoresho bikunze gukoreshwa ku muhanda, mu maropuwe ndetse n'ahandi, hashobora guhurira abantu benshi ni ibikoresho bicunga umutekano, ku buryo hagize uwiba nyuma basubiza inyuma ibi bikoresho bikamwerekana.

Umuyobozi wakoraga ibijyanye no gucunga umutekano mu gisirikare cy'u Rwanda， bajya bafata umwanya，bagacunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo，ugasanga biragenda neza， abaturage bagakora imirimo yabo， batikanga， batuje， batekanye.

Inzego z'umutekano, mu rwego rwa gisirikare muri iki gihugu cy'u Rwanda, bambaye impuzankano imeze neza, isa neza, buri mpuzankano ifite amabendera, bameze neza barakeyeye.

Inama ihuza abayobozi mu nzego zitandukanye, ni inama irimo kubera muri sare, sare irimo intebe zimeze neza, ni sare iriho inkuta ziriho amakaro, inkuta ziteye amarang, arasobanutse.

Inteko rusange y'abaturage, inzego z'umutekano n'ubuyobozi mu nzego bwite za leta barimo batanga mesaje, bamwe baganiriza abaturage kuri gahunda za leta zitandukanye zabateza imbere.

Inama yahuje abayobozi mu byiciro bitandukanye, bicaye hamwe barimo kuganira kuri gahunda za Leta zitandukanye, zatuma abaturage batera imbere, bakivana mu bukene bakazamura imyumvire.

Inzu ikorerwamo inama, aho abaturage bari mu gukurikirana impanuro barimo guhabwa n'abayobozi, ni inama yahuje abayobozi ndetse n'abaturage ,barimo kuganira kuri gahunda za leta zitandukanye, kugira ngo biteze imbere.

Abantu bapanze gahunda yo guhura bakaganira bagasangira ikinyobwa bita fanta. Ni abantu bari mu mujyo umwe w'ibiganiro, ni abantu bari mu cyerekezo kimwe, kugira ngo bafate imyanzuro y'ikiganiro cyatumye bahura.

Inama y'abaturage yitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, abaturage barimo bakurikirana impanuro bahabwa n'abayobozi kugira ngo abaturage n'abayobozi bajyane mu mujyo umwe wa gahunda za Leta ntawe usigaye inyuma.

Inama yahuje abantu batanu ndetse n'umuyobozi wabo wa gatandatu. Ni abantu barimo bakurikirana amabwiriza bari mu mujyo umwe, ni abantu bakurikiranye kugira ngo batege amatwi ibyo babwirwa.

Inama yahuje abaturage n'abayobozi, ubwo umuyobozi w'umugore arimo abwira abaturage, abaganiriza kuri gahunda za leta, kugira ngo bose babashe kugendera mu murongo umwe, nta n'umwe usize undi, bose babashe kwesa imihigo.

Ni umuntu urimo kubyina, wizihiwe, wambaye neza bya kinyarwanda, biragaragara ko yashyuhije urugamba, yashyuhije ibirori, kandi aranezerewe.

Abangaba ni abantu batandukanye, bahuriye ahantu hamwe, barimo bakora isuku yo gukubura, nk'uko byagendaga mu muco nyarwanda ko abari n'abategarugori bafataga imyeyo, bakajya gukubura, cyangwa bakora isuku bifashishije icyo gikoresho bita imyeyo.

Inka nziza cyane yo mu bwoko bw'inyarwanda, ifite amahembe nk'ikirango cy'inka z'inyarwanda, n'inka ibyibushye imeze neza ihagaze munsi y'ibiti, ihagaze hafi y'ikiraro cyayo irasobanutse.

Abakobwa batatu bafite ibisabo barimo gucunda amata ibyo bisabo bipfundikije umupfundikizo bita inzindaro. Ni abakobwa bari mu mujyo umwe barimo gucunda kugira ngo babashe kubona amavuta.

Umuntu urimo gukora umurimo w'ubucuzi, aho afata icyo ashaka gucura byaba amashoka byaba amasuka, agashyiraho amakara akabicanira akagumya akabicanira, byahinduka umutuku akabishyira ku cyuma cyabugenewe, agakubitaho inyundo kugeza abihaye ishusho y'icyo ashaka.

Hano haragaragara ibikoresho byifashishwaga mu muco nyarwanda turimo tubona ikibindi ni ikibindi kirimo imiheha cyangwa se imiseke itanu. Ni ikibindi giteretse ku ngata ikibindi kiri imbere y'abagabo babiri barimo gusangira.

Ibikoresho bakunze gukoresha mu muco Nyarwanda muri ibyo bikoresho harimo ibicuma bitanu, harimo n'ibibindi bibiri. Ibyo bibindi biteretse ku cyo bita ingata kandi ibyo bikoresho byose biteretse ku musambi.

umugabo umwe urimo gucuranga igikoresho bita umuduri . Igikoresho bita umuduri ni igikoresho gitanga umuziki, gikunda gucurangwa n'abasaza ba kera ,kubera ko abasore b'iki gihe ntago basobanukiwe ibyo bita umuduri.

Itorero riri mu kuririmba ni itorero rifite abantu barimo gukoma mu mashyi, abandi barimo kuvuza ingoma, intore zirimo guhamiriza zambaye inshabure, zambaye inkindi, zambaye n'amayogi ku maguru abantu bizihiwe.

Intore zihamiriza zifite icumu, zifite ingabo, zambaye n'inkindi, zambaye imigara, mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda.

Iki ni icyuma cyifashishwa mu gutera umuti wica udusimba mu myaka, cyangwa se gutera umuti wica udusimba ahandi hose dushobora kuba twagaragaye.

Hano haragaragara umuntu urimo gucuranga, yifashije igikoresho cya kinyarwanda cyitwa umuduri, ahagaze hafi y'ahantu hari urutoki, rugaragara ko rutameze neza, rwarwaye igisa na kirabiranya.

Imitako baboha . Iyi mitako yifashishwa mu gutaka amazu, mu gutaka ahantu abashyitsi bateraniye. abanyamahanga barazikunda n'abanyarwanda barazikunda kubera ko zigira ahantu heza kandi zinjiza amafaranga ku babyeyi ndetse n'abandi babikoze.

Abantu batatu barimo kuboha ibikoresho bitandukanye, abagore bifashisha nk' ibikapu bashobora kubitwara bagiye guhaha cyangwa bakabitwara bagiye gutembera ni ibikapu baboha mu bintu bitandukanye.

Inka y'imbyeyi inka y' inyarwanda yujuje byose inka iri kumwe n'umutahira mutahiriro ufite inkoni. Inka ihagaze ahantu mu kibuga cyiza usigasiye umuco nyarwanda n'umutahira wayo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaragaza ibirango by'umuco nyarwanda harimo: igiseke n'umutemeri wacyo bimeze neza biboshye neza, hakaba harimo n'urunigi rufite amabara y'ubwoko bubiri, ibikoresho abantu bambara iyo bagira ngo bagaragaze umuco nyarwanda wuzuye.

Intore zirimo guhamiriza, iyo intore zitangiye guhamiriza, ziba zambaye inkindi, zifite n'amacumu ndetse zifite n'ingabo, ibyo ni ibikoresho zikoresha iyo zitangiye akazi kazo ko guhamiriza, ziba zambaye n'imigara, ndetse n'amayugi ku birenge, kugira ngo zigaragare neza.

Imitiba y'inzuki ikoreshwa n'abavumvu barora inzuki, izo nzuki boroye zikabyara ubuki, ubwo buki bugakoreshwa mu miti ndetse no mu buzima bwite busanzwe bwo kuba baburya.

Intore iri mu guhamiriza yizihiwe yishimye. Intore ifite imigara, ni intore ifite icumu n'ingabo mu ntoki, ni intore ikenyeye neza yambaye ishabure, ni intore irimo kususurutsa abantu bayikurikiranye.

Abantu barimo kuvuza ingoma mu rwego rwo gusigasira umuco, bambaye inkindi ibiri, bambaye imishanana ibiri, hari n'ingoma itatu, hari n'imirishyo ibiri, bazivuza mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda, igihe harimo gukoreshwa itorero.

Umwari, umutegarugori ufite ibintu bigaragaza umuco nyarwanda. Mu bintu afite bigaragaza umuco nyarwanda, yambaye urunigi rugaragaza umuco nyarwanda, afite igiseke kigaragazaga umuco nyarwanda. Ni umwari ucyeye kandi ufite ibisigasiye amateka.

Aha biragaragara ko ari ibikoresho bikoranye ubuhanga bwa kinyarwanda, aho bigaragara ko bashatse kugaragaza ko muri pariki hari inyamaswa zitandukanye; harimo n'udusumbashyamba kandi bigaragara ko ibyiza nyaburanga bihari.

Ibintu bitandukanye bikoreshwa mu muco nyarwanda, igisabo, inkoko ikirago, ndetse n'igiseke, ngira ngo abantu basigasire umuco nyarwanda, ntubashe gucika, kandi umuco ntuzazime.

Imiduri itatu, imiduri n'ibikoresho bikoreshwa bacuranga mu buryo bwa Kinyarwanda, kugira ngo basusurutse urugamba rw'abakurikiranye indirimbo zirimo gucurangwa.

Aha haragaragaza abantu babiri, bicaye mu busitani, barimo gukina umukino wa damu, barimo gusoma icyo bafite, iruhande rwabo hari agacuma, urabona ko bizihiwe n'umukino barimo.

Izi ni intore ziri guhamiriza zambaye imigara, zambaye inkindi, zambaye inshabure. Mu by'ukuri zirabikora mu rwego rwo kugaragaza umuco nyarwanda zifite amacumu n'ingabo nk'uko mu muco nyarwanda intore bijya bigenda.

Ahantu hakorerwa ibikoresho by'ubuhanzi ndetse n'ubugeni, abazungu bashobora kujyayo bagiye kuguramo ibyo bashaka, n'abanyarwanda bashobora kujyayo bagiye kugura ibyo bashaka, ni ahantutu hari isuku, ni ahantu buri wese yisanga kandi ashobora kutisanzura.

Ubu aba ni abantu bane bikoreye inkono za kinyarwanda. Ni inikono zikorwa mu ibumba. Zigakorwa babumba bakagiha ishusho ,barangiza bakagishyira ku muriro bakagitwika kugera aho gikomeye bakakigurisha.

Igikoresho cyitwa umudaho, bajyaga bagikoresha mu guteka, cyane cyane mu kuvanga ibiryo, ndetse no kwarura, kugira ngo abagiye kurya, cyangwa se abagiye gushyikirizwa ibyo biryo byatetswe, bibagereho bivanze bimeze neza.

Inka za kinyarwanda mu buryo bwuzuye. Inka zirimo kunywera mu kibumbiro cyazo baziteguriye, kandi ziri kumwe n'umuntu ugomba kuzivugira, no kuzibungabunga no kuzitaho. Inka zifite amaherena zigaragaza ibirango by'uko ari inka z'inyarwanda kuko zimeze neza.

Abagore babiri bafite isekuro barimo gusekura ibintu bitandukanye biri bubatunge, iruhande rw'aho barimo gusekurira hari inkoko eshanu iruhande rw'izo nkoko eshanu ,hari umubyeyi urimo koza akayunguruzo.

Abantu bane barimo gukama ibitoki. Ibitoki iyo bamaze kubitema bikomeye, barabitara mu cyobo bita urwina. Bagashyiraho amakoma bagapfundikira. Nyuma y'iminsi mike itarenze ibiri, bimaze gushya, barabitonora bakabishyira mu muvure. Bakabibyazamo umutobe.

Izi ni inka z'amahembe za kinyarwanda byuzuye, uko bashyizeho ibirango bya medi ini Rwanda kandi koko ni inyarwanda, kandi n'abazoroye bagaragaje umuco nyarwanda aho bafite inkuyu n'inkoni, barimo bazikumira baziyakuya bazihanagura iki ni ikimenyetso cyo gusigasira no kubungabunga umuco nyarwanda.

Ni umukaraza wambaye neza bya kinyarwanda, ufite imirishyo, wambaye inkindi ifite imigara, ndetse afite n'ingoma arimo gukoresha igaragaza ikimenyetso cyo gusigasira umuco nyarwanda.

Hano haragaragara ababyeyi bakenyeye ibya kinyarwanda, bamwe bambaye urunigi, ndetse biragaragara ko barimo kuririmba kandi baririmba indirimbo za kinyarwanda, bakoma mu mashyi bizihiwe.

Abantu babiri， umugore n'umugabo barimo gukama ibitoki， umugore arimo adaha umutobe awuminina，umugabo arimo akamura ibikatsi kugira ngo babashe kuwugurisha，cyangwa se babashe kuwubyazamo urwagwa ku buryo butabagoye.

Ni abari n'abategarugori bakora ibikorwa byo gusigasira umuco nyarwanda, aho umwe acanye arimo kwenyegeza undi arimo kugosora ibishyimbo byo guteka, ikigaragara cyo bambaye neza kinyarwanda, umuco nyarwanda barawusigasiye kugira ngo utazaba ico.

Igikoresho cyitwa ikibindi, ni igikoresho kirimo inzoga y'ikigage irimo kubira, ikibindi kirimo imiseke bakoresha mu kunywa iyi nzoga, igikoresho cyifashishwa mu buzima bwite bwa muntu, ndetse no mu muco nyarwanda.

Mu muco wa kinyarwanda aho abantu babaga bavuye ku gikorwa kimwe cyangwa bahujwe n'ibirori bimwe, bagahurira hamwe bagasangira bakoresheje imiseke. Uwo muco abasaza barawukundaga kuko watumaga baganira, umuco ntucike kandi cyangwa ngo batatane.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu buryo bwa kinyarwanda, kera bajyaga babikoreshwa mu buryo bwo kujya gusura abantu, bafashe urugendo rwa kure iyi ni inkangara ndetse n'umusambi, aho ukoreshwa uburyo bwo kuwicaraho cyangwa se kuba bawutwikiriza ibindi bintu.

Hano haragaragara ubuhinzi bw'amasaka, haragaragara ihundo ry'umutuku ryeze neza, hasi gato hakongera hakagaragara ihundo riteze neza ritari ryaba umutuku. Ikigaragara uyu ni umurima w'amasaka kandi umeze neza.

Hano haragaragara ikigega cya kinyarwanda cyifashishwaga mu guhunika. Iruhande rwa kino kigega biragaragara ko hari umutiba. Iruhande rw'umutiba hari inkoko, ndetse hari n'umuntu wicaye iruhande rw'icyo kigega, ariwe ushinzwe guhunika uyu musaruro, kuko ahagana ku gisenge cy'icyo kigega hari n'ibigori byasaruwe.

Itorero ribyina indirimbo za kinyarwanda, akenshi na kenshi mu kubyina indirimbo za kinyarwanda, babyina bafite uduseke, ni umwihariko w'umuco nyarwanda, kandi n'ubugenge ku bantu babyina muri ubu buryo.

Intore eshatu zirimo guhamiriza zambaye inkindi, zambaye imigara zifite n'amacumu azifasha kwerekana umuco nyarwanda kandi imyambarire yabo yabafashaga kugaragara imbere y'abarimo kubareba cyangwa imbere yabo barimo kwiyereka.

Abasore barindwi bagiye gutaha ubukwe, muri ibi bihe tugezemo iyo abasore bagiye gutaha ubukwe bakenyera imikenyero n'imyitero bakambara n'inkweto bita sandari, bamara kuzambara bagaherekeza umugeni bakajya ku kiliziya, cyangwa mu bundi bukwe bwateganyijwe mu muryango.

Igikoresho cyitwa igisabo gipfundikije umubirikira, igisabo ni igikoresho bakoreshaga bacunda amata, cyangwa bakagikoresha igihe cy'ubukwe giherekeje umugeni, icyo gikoresho kiri hafi y'imiba y'ibyatsi iri ku mujyo umwe ihambiriye neza.

Intore ziri mu guhamiriza, ni intore ziri mu mujyo umwe, ni intore zizihiwe, zifite amacumu, zifite imigara, zifite n'ingabo, intore zambaye neza, zambaye amayugi ku maguru yazo nk'uko biba biteganyijwe ku ntore, ni intore zisobanutse.

Umubyeyi ugaragaza umuco nyarwanda mu gihe cya kera, ko mu gihe cya kera bambaraga urunigi bagasokoza bitandukanye n'ab'iki gihe uko basokoza. Ni umuco wabaga ari mwiza ni umuco wagaragaraga neza ku buryo umuntu wabaga wasokoje muri ubu buryo yabaga afite isuku.

Ibiseke bitanu bigaragaza umuco nyarwanda, ibi bakunze kubikoresha mu bukwe, bashaka gutanga impano cyangwa se bakabikoresha mu nzu ndangamurage, kugira ngo bisigasire amateka kandi nanone, ibi biseke bakunda kubikoresha mu buryo bw'imitako.

Icyumba gihuriramo insinga z'amashanyarazi zivana umuriro hirya no hino, ku buryo habaye impanuka abantu bashobora kugeramo bakawukupa ku buryo hadashobora kugira abapfa, cyangwa hagira ibindi bikoresho byangirika igihe habaye inkongi y'umuriro.

Igikoresho cy'amashanyarazi, bakoresha bazimya cyangwa se batsa amashanyarazi, iki gikoresho bagishyira ku rukuta bajya gucana bagakanda amatara, akabasha kwaka ahantu aba ari hejuru bitewe n'ahantu itara barishyize.

Naho harimo kugaragara inzu ifite parafo, iyo parafo ikozwe na tiripuregisi ndetse n'amarati y'ibiti. Iyo parafo irimo amatara itara rya tibe ry'amashanyarazi ryaka neza rimeze neza.

Igikoresho bakoresha mu gufotora impapuro, ni igikoresho gikoresha amashanyarazi. Iki gikoresho bagicomeka ku mashanyarazi, barangiza bagakanda amabuta yabugenewe, bagashyiramo impapuro bashaka gufotora, bagafotora ubundi bakagenda.

Ni igikoresho bakunze kwita ipense, bagikoresha bakanika amashanyarazi, kandi nanone bashobora kugikoresha bakanika amamodoka, kandi nanone iki gikoresho bashobora kugikoresha bakanika amaradiyo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho bakunda gukoresha basudira ibindi bikoresho. Uburyo gikoreshwa bafata urutsinga ruba rufashe kuri iki cyuma bagacomeka ku muriro w'amashanyarazi, bamara kuwucomeka ku muriro w'amashanyarazi icyuma kigashyuha, bakagisudiriza ibindi byacitse.

Umuhanda wa kaburimbo ukoze neza utunganye, abanyamaguru bateganyirijwe ahantu bazajya banyura bagenda, n'umuhanda unyura hagati y'ishyamba amashanyarazi arahari kumuhanda baracana.

Inzu ikorerwamo inzego z'umutekano, iruhande rw'iyo nzu hari ibendera rya polisi, hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, iyi inzu ikorerwamo ribu, igakorerwamo na polisi, abaturage barayigana kugira ngo bahabwe serivisi, igihe bakorewe urugomo.

Inzu za Leta zitangirwaho serivisi zitandukanye aho hari urujya n'uruza rw'abantu baje gusaba serivise, hari umuhanda nyabagendwa utunganyije hari ubusitani bumeze neza aha hantu harakeye kandi haratunganye.

Inzu abasilamu bakoresha mu buryo bwo gusenga, n'inzu ifite ubusitani bwiza cyane, ni inzu ifite amarangi y'umweru akeye atunganye, n'inzu ifite ahantu hagenewe guparika amamodoka.

Ni mu gikoni cyifashishwa mu guteka, gishobora gukoreshwa mu buryo bubiri aho wakoresha gaze cyangwa se ugakoresha amashyiga asanzwe ,wifashishije inkwi cyangwa se amakara ,ni igikoni gifite isuku kirimo amarange kimeze neza.

Inzu ifite amadirishya atatu y'ubururu, ni inzu iri ahantu hafi y'ubusitani, hafi y'ubwo busitani hari aho bajugunya imyanda, ni inzu ifite imbuga ikoresheje amakaro, amakaro arimo isuku, abayakoze bayakoze neza.

Inzu ikoreshwa mu buryo bwo gusenga, n'inzu ifite ikigega kijyamo amazi, n'inzu ifite urutsinga tujyayo rujyanayo amashanyarazi, inzu iteye amarangi, n'inzu abantu bahuriramo bafite gahunda imwe yo gusenga.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, abaturage bajyayo barwaye, ifite kandagira ukarabe nziza, ifite isuku ifite imbuga y'amapave icyeye kandi imeze neza.

Hano haragaragara imashini zitandukanye, hagaragara umuhanda wa kaburimbo, hagaragara barudire ikoze neza ndetse igaragaza ama pave, izi ni imashini zirimo kwifashishwa mu gukora umuhanda wa kaburimbo no kuwutunganya, no kuwu kugira neza.

Inzu ya etage yakorerwamo ubuyobozi, ni inzu iri ahantu heza, ifite amarangi asukuye meza cyane, ni inzu yubatse ahantu hari ubusitani, hari jaride imeze neza, ku buryo abantu bashaka kuruhuka cyangwa kwifotoza bakoresha ubu busitani.

Ibikoresho bikoreshwa mu kubaka inzu, harimo amatafari y'umucanga ndetse n'inkarakara babishyize imbere y'inzu, barimo guteganya kubaka.

Mu ishuri aho abanyeshuri barimo gukurikirana amasomo, ni abanyeshuri bambara inifomo nziza, bambara amashati y'umweru bambara n'imipira y'ubururu, bamwe bajya baza ku ishuri batambaye imipira bitewe n'ubushyuhe buba buhari cyangwa se imvura yaguye. Inyubako iri ahantu heza ahantu hari amarido hameze neza hatanze ubwisanzure.

Inzu inzu ikorerwamo imirimo yo gusenga. N inzu irimo imikeka, ni inzu irimo umwigisha, ni inzu irimo ameza, ni inzu ifite isuku itatse neza kandi itunganye.

Igice kimaze gutera imbere imihanda iranyura hagati y'amazu, amashuri amaze kuhagera, agasozi gafite ibiti bitanga akayaga kugira ngo abahatuye babashe kugubwa neza.

Iki ni ikiraro kinyuze hejuru y'amazi ,bigaragara ko aha hantu bitashobokaga ko hagezwa umuhanda bitewe n'uko ari mu gishanga ,ariko abayobozi mu nzego zitandukanye barimo bagitambukaho bigaragaza ko ari nyabagendwa, kandi bagaragaza ko no hakurya y'igishanga hari umusozi umeze neza ,uteye neza, bisobanuye ngo iki kiraro cyatuma ubuhahirane bukomeza.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni imodoka, irimo kugenda mu muhanda, ni umuhanda wa kaburimbo, n' umuhanda ukoze neza ni umuhanda uri hafi y' ibiti bishobora gutanga umuyaga kubantu banyura muri iki cyerekezo.

Inzu ikoreshwa mu buryo bwo gusenga, iyo abakirisitu baje bayiteraniramo bagatangira gusenga bayobowe na padiri, inzu iri hagati mu biti bishobora gutuma abantu baje gusenga babona akayaga, kubera ko ibiti biba byatanze amahumbezi.

Hano haragaragara icyapa cyerekana ko, iki kigo ari ikigo gikorerwamo ibikorwa bya polisi, hakongera kugaragara ibendera ry'u rwanda n'irya porise ribyemeza, ko hakorerwamo ibikorwa bya porisi kandi na none hakagaragara umuhanda n'ubusitani bumeze neza, bwerekeza muri icyo kigo bigaragara ko iki ari ikigo gituje kandi gitekanye.

Ikigo cy'amashuri kimaze gutera imbere ,kuko ni ikigo gifite ikibuga bakiniramo umukino wa futubololo ni ikibuga gifite umuhanda wa kaburimbo ,ni ikibuga gifite amashuri ,kiri ahantu heza hashobora gutanga amahumbezi.

Hano haragaragara inzu nziza, bigaragara ko ari inzu yo gukorerwamo n'inzego z'ubuyobozi, ahagana iburyo bw'iyo nzu hari parikingi, yaparitse n'imodoka, hari amajaride meza, hari amavaze meza agaragaza ibirango by'ibendera, inzu yubatse mu kirere cyiza imeze neza.

Ubwoko bw'imidugudu bajyaga bubakira abantu batuye mu manegeka. Bajya barayibubakira kugira ngo babavane ahantu habi babajyane aheza, mu rwego rwo kugira ngo bazamure iterambere ryabo bagendane n'Igihugu.

Icyapa cyerekana ahantu bavurira abantu, ni ku bitaro, ni ibitaro bikikijwe n'uruzitiro rugizwe n'ibyuma, ndetse n'amatafari, n'ibitaro biri ahantu muri jaride, mu busitani bumeze neza, inzira iganayo yarateguwe, irimo sima imeze neza ku buryo ntawagira ikibazo, mu gihe arimo kwerekezayo.

Inyubako y'urusengero ikorerwamo ibikorwa byo gusenga iyi ni kiliziya, inyubako yagezweho n'iterambere ifite amashanyarazi, ifite ubusitani bumeze neza, ifite kandagira ukarabe, abaturge bajya gusenga babanje gukaraba.

Umuhanda wa kaburimbo ukoze neza ,umuhanda ufite igice cyagenewe abanyamaguru, umuhanda ufite ibirango, ufite amatara ku kumuhanda yaka neza, mu mugihe abagenzi barimo kugenda ntakibazo bagira kubera ko haba haka kandi hagaragara.

Inyubako ikorerwamo inzego z'ubuyobozi . Inyubako ifite ahantu baparika imodoka, ifite ubusitani abantu bashobora gutemberemo. Ni inyubako ifite inzira abantu bashobora gutemberamo igihe baje gusaba serivisi.

Ni inyubako ifite imbuga nziza y'amapave ,igana ku muryango, ku marembo ,hari imbuga ipavomye, inyubako igaraga ko icungirwa umutekano n'abasekirite ba topusekiriti, ni inyubako nziza imeze neza.

Santere y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi buteye imbere. Umuhanda wa kaburimbo utuma abantu bahahirana n'utundi turere, ku buryo bwiza kandi butunganye.

Uyu ni umuryango w'umuyobozi, ushinzwe imari n'ubukungu, urugi ni urugi rumeze neza rusobanutse rujyanye n'igihe, akorera ahantu heza, inkuta zisize irangi, hameze neza harasobanutse.

Umuyobozi uganiriza abaturage mu nteko rusange y'abaturage. Arimo abaganiriza kuri gahunda za leta . Ni inama yabereye hafi y'ikigo cy'amashuri, aho buri muturage agomba kumenya uruhare rwe mu bimukorerwa.

Abantu bakora amatora mu bwisanzure buri wese yitorera uzamubera inyangamugayo, abantu bahagaze hafi yabo barimo bakurikirana uko amatora azagenda, kandi ya hafi y'aho bari hari ibikorwa remezo bigaragaza ko bamaze gutera imbere.

Iyi ni ifoto igaragaza inama rusange cyangwa inteko y'abaturage, aho bose bakurikiye ijambo ry'umuyobozi urimo ubakoresha inama. Bicaye ahantu heza, hari ibiti bitanga akayaga, hari ubusitani ndetse n'ikirere kimeze neza. Abaturage b'ingeri zose barimo bakurikirana ijambo ry'umuyobozi.

Ni abayobozi bayoboye inama, barimo gutanga ibitekerezo, kwakira ibitekerezo, ndetse no kuyobora inama mu buryo bw'ikiganiro.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage, arimo abasobanurira byinshi kuri gahunda za Leta zitandukanye, abasobanurira iby'inshingano zabo n'inshingano z'ubuyobozi, kugira ngo umuturage amenye uburenganzira bwe n'ibimukorerwa.

Inama yahuje abaturage n'abayobozi barimo kwitorera abayobozi .Iyo abaturage bamaze gutora abayobozi ,abayobozi bafata umwanya wo kurahira ,kugira ngo bazashyire mu bikorwa bubahirize inshingano batorewe.

aho baparika imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iyo abagenzi bashatse gutega bajya hirya no hino, baraza bakazisanga aho ziparika, bagakatisha amatike, bamara kuyayakatisha, buri wese akicara mu modoka akurikije imodoka yakatishijemo.

Imodoka nini ifite conteneri ipashyirwamo ibintu bitandukanye, biparitse mu nkengero z'umuhanda, ahantu hafi y'ibiti bitanga umuyaga, ikirere ni cyiza hameze neza ntakibazo.

Hano haragaragara imodoka ndende yagenewe gutwara amazutu, cyangwa esanse. Biragaragara ko ifite itanki. Iparitse iruhande rw'umuhanda, irimo kwitegura gukomeza urugendo rwayo.

Ubwoko bw'ikinyabiziga gitwaraga ibintu bitandukanye. Gishobora gukoreshwaga abantu barimo gusarura imyaka. Kandi iki kinyabiziga cyitwa Lifani gishobora gukoreshwa abantu barimo kwimura ibintu babijyana ahandi ,kuko ni ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto, gifite amapine atatu kandi gikora neza.

Hano haragaragara abantu bari mu rugendo bagenda bari mu muhanda, aho umugabo ari ku igare ahetse ibintu ajyanye ku isoko. cyangwa se avuye gusarura ndetse n'umugore arimo gusunika igare. agaragaza ko hari ibintu atwaye ku isoko cyangwa se avuye gusarura, asobanura ngo igitsina gore cyiteje imbere, ibyo umugabo yakora n'umugore yabikora.

Imodoka nini zijya zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, abantu bose bazisangamo, bakaba bazitega, bazisangamo bakaba, bazifashisha mu buryo bwo kugira ngo bakore ingendo zabo, mu buryo buboroheye.

imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziri aho ziparika mu gice cy'umugi. Iyo abagenzi barimo kujya muri gare bagiye bajya gutega, baragenda bagatega. Buri wese agatega iyo ashatse, hakurikijwe icyerekezo arimo kujyamo, zigahita zibajyana batiriwe batinda bahagaze bategereje.

Aha biragaragara ko ari abantu bari mu rugendo rwa buri munsi, barimo batega imodoka, hagaragara abantu babiri bafite ubumuga, barimo bafashwa kwinjira mu modoka rusange y'abagenzi, bigaragara ko n'abafite ubumuga bitaweho kandi bagomba kwitabwaho, bagahabwa serivisi nk'iz'abandi.

Hano hari imodoka z'amakamyo ziri mu cyerekezo kimwe, imodoka zitigeze zica amategeko kubera ko umurongo wagenwe ntayigeze idepasa ngo iwurenge, imodoka zipakiye ibintu mu kindi cyerekezo, hari imodoka y'umuhondo bitari mu cyerekezo kimwe, bisobanuye ngo amategeko mu muhanda wa kaburimbo yubahirijwe.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragagaza inzira y'abagenzi, mu gice cyo hagati ukongera ukagaragaza inzira y'abagenzi mu gice cyo ku ruhande, kirimo amapave hirya y'uwo muhanda haparitse imodoka icuruza ibikoresho bikura ibizinga mu myenda, ni ahantu hari ubusitani hameze neza.

Ubwoko bw'imodoka zitwarara abagenzi mu buryo bwa rusange ni modoka zitwa Litiko. Zishobora gutwarara abagenzi batandukanye. Iyo winjiye imbere, ubona ahantu abantu bashobora gukoresha bacaginga amatelefone yabo, ni imodoka nziza ijyanye n'igihe.

Abanyonzi bahagaze aho bakunda guparika bategereje abagenzi mu muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukoze neza ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, abanyonzi bahaparika igihe icyo ari cyo cyose babona harimo guca abantu ku buryo babatwara bakabageza iyo bajya.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zicungwa n'ibigo bitandukanye harimo bisi ya ritiko, harimo n'izindi modoka zicungwa n'ibindi bigo, aho abagenzi bahagarara bategereza kuba bakwinjizwa muri izo modoka, bagakomeza urugendo bari bafite.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange，ni imodoka ikora mu bice by'umujyi，kubera ko ni imodoka yifashisha amashanyarazi kugirango igende， ni imodoka irimo kugende mu muhanda wa kaburimbo，kandi ikurikije amategeko.

Izi ni imodoka zitandukanye zitwara abagenzi mu buryo butandukanye aho hari izitwara abagenzi rusange n'izitwara abagenzi ku giti cyabo. Imodoka ziparitse mu mbuga y'amapave, imbuga iri hafi ya jaride imeze neza itoshye kandi ikeye igaragara ko ari imodoka ziparitse hafi y'inzu ya Leta bigaragazwa n'amabendera ari hafi y'izo modoka.

Aha haragaragara ikimoteri kiri ahantu iruhande rw'umuhanda. Hagaragara n'imodoka itwara imyanda bigaragara ko ije gutwara imyanda iri muri icyo kimoteri. Iruhande rw'imodoka hagaragara abagore bari mu rugendo, bagenda bari muri gahunda zabo bwite, bavuye ku isoko cyangwa se bavuye gukingiza, bavuye n'ahandi. Ikigaragara ni uko ibintu bimeze neza isuku ni ingenzi.

Ni moto zitwara abagenzi n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, harimo gukoreshwa umuhanda umeze neza utunganye, kandi amategeko y'umuhanda arubahirijwe.

Moto icyenda zitwara abagenzi, iyo zitegereje abagenzi ziparika ahantu habugenewe, moto ziparitse mu mbuga nziza ikozwe n'amapave, ziparika ahantu iyo zitegereje abagenzi bakagenda bazitega imwe ku yindi, bakurikije uko zakurikiranye.

Muri gare aho abantu bahurira bagiye gutega imodoka, kugira ngo izo modoka zibageza ahantu barimo kujya, ni gare ihurirwamo ni ibigo bitandukanye bitwara abagenzi, hari imodoka ntoya, hari imodoka nini, hari imodoka ziciriritse, abantu bose bahageze buri wese yisangamo akurikije aho arimo kujya.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka, hari urujya n'uruza rw'abantu abantu bajya gutega imodoka zibaganisha hirya no hino, hakurya hari umusozi umeze neza umusozi uriho ibihingwa bitoshye bimeze neza, kandi muri iyi gare haragaragaramo ibikorwa remezo amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye ahantu hameze neza.

Ubwoko bwa moto bakunda kwita rifani, ni moto ifite amapine atatu, ni moto bashobora gusakara n'inyuma, ariko n'imbere washaka ukaba wahasakara, ni moto ishobora gukoreshwa ipakira ibintu, ipakira imizigo, ipakira abantu byose bibabyemewe.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso ikoreshwa mu gupakira imyaka itandukanye harimo ibishyimbo, harimo ibigori, harimo ibijumba ndetse n'ibindi bikomoka ku musaruro w'abaturage baba babonye kubera guhinga.

Ni gare aho abagenzi bashobora gutegera imodoka bajya mu byerekezo bitandukanye, hari aho abagenzi bugama izuba ,hari aho abagenzi bakatishiriza amatike ,gare irapavomye imeze neza, irasobanutse kandi hafi aho ngaho hari ibiti ,hari ikirere cyiza gishobora gufasha abantu bagana iyi gare guhumeka neza.

Abantu bari muri gare b'ingeri zitandukanye barimo kujya ahantu bakatishiriza amatike y'imodoka, kugira ngo bagere aho bashaka kujya mu ntara cyangwa se ahandi bapanze gukorera ingendo zabo.

Aha biragaragara ko ari ubuhinzi bukorewe mu gice cy'amakoro, aho bigaragara ko hari imifuka iteretse ahantu imaze gusarurirwamo, ibintu bitandukanye ibirayi cyangwa se ibindi, kandi baniteguye guhita babigeza ku isoko cyangwa se aho bagomba kubihunika, kuko ikigaragara ko iri gare rije gutwara uyu musaruro uri muri iyi mifuka.

Moto ya yateganijwe gutwara abagenzi, iparitse mu nkengero z'umuhanda, mu kayira kateganirijwe abagenzi b'abanyamaguru, hafi y'aho hari moto iparitse, hari ubusitani bwiza, hari ipato rigaragaza amashanyarazi ko, iterambere ryahageze iyi moto imeze neza.

Sitade ikinirwaho imikino y'ubwoko butandukanye, ni sitade yubatse mu gice cy'umujyi ni sitade iri ahantu hasobanutse ijyanye n'igihe, iyo abantu bahageze buri wese yicara ukwe atuje kandi atekanye batabyigana.

Imikino y'amaboko, imikino ya vore ikinwa n'abafite ubumuga. Bakina bicaye. File iba iri hasi ibegereye, kugira ngo n'abadafite ingingo zose babashe kuba bakina ino mikino.

Umukinnyi urimo ukina umukino wa voreboro， umukino wa voriboro， ni umukino bakina bakoresheje umupira w'intoki， abakobwa barawukina， n'abahungu barawukina. Ibyiciro byose barawukina，kubera ko， ni umukino ukunzwe n'abantu benshi.

Bari muri siporo yo gusiganwa ku magare muhanda umaze igihe gito ukozwe umuhanda ukiri mushya umuhanda umeze neza.

Abantu babiri biteguye kujya gukina umukino wa tenisi, bose uko ari babiri bari mu mujyo umwe, biteguye kuza kugaragaza intsinzi imbere y'abafana babo, kubera ko bagaragarijwe ibikoresho bihagije ndetse n'ibyo bagomba kwifashisha mu mikino bara bifite mu ntoki zabo.

Abantu bakora siporo y'amagare, barimo barakorera muri kaburimbo umuhanda umeze neza ikirere kimeze neza, baragenda bahana umwanya kugira ngo bataza kugera igihe bagakora impanuka bikaba byaba bibi.

Umukino wa hendibolo aho abakinnyi barimo gukinira mu kibuga cyiza kirimo sima, ndetse iruhande rwabo harimo abantu barimo bakurikirana mukino.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa tenisi, imipira ibiri ndetse n'akandi kantu bafata mu kiganza kugira ngo babashe gukubitisha umupira igitego kibashe kujya ahabugenewe. Ni ahantu hameze neza n'ibikoresho bimeze neza, kandi byabugenewe.

Abakinnyi bakina umukino wa hendibolo, umukino wa hendibolo ni umukino bakina bakoresheje umupira w'intoki, abakobwa barawukina n'abahungu barawukina kubera ko ari umukino ngororamubiri.

Abantu barimo gusiganwa ku magare, bari ku mujyo umwe. Bari mu muhanda wa kaburimbo uteye imbere, amatara ku muhanda, mu by'ukuri bambaye neza, bameze neza.

Abantu barimo gukina umukino wa basiketi, ni umukino barimo gukinira ahantu mu bigo by'amashuri, kuko akenshi na kenshi ibi bibuga ni ho ubisanga, ni umukino wizihirwa na benshi, abantu barawukunda kubera ko abarimo kuwukina baba bizihiwe.

Abantu bari muri siporo yo gusiganwa ku magare, ni abantu bari mu gukoresha umuhanda wa kaburimbo ukiri mushyashya ukigaragaza ibirango, inyuma ya bo hari imodoka igomba kubakurikirana niba hari uwahuye n'impanuka, cyangwa yagize ikindi kibazo.

Abantu batandukanye biteguye kujya muri siporo. Bambaye imyenda yabugenewe ishobora kubajyana muri siporo, amatereningi y'ubururu ndetse n'imipira y'icyatsi. Ni abantutu bari mu mujyo umwe wo kujya muri siporo banezerewe, batuje kandi bishimye.

Iyi siporo isiganwa ry'amagare. Abanyamagare barimo kugenda mu muhanda ukiri mushyashya ufite ibimenyetso ,ndetse hari n'imodoka zibakurikiye zigenda zikurikirana uko isiganwa rigenda ko hari uwagize ikibazo, kandi n'ikerekezo barimo kiragaragaza ibiti ,indabo .Ikerekezo gishobora gutuma abari mu isiganwa bahura n'akayaga keza.

Umukobwa urimo ukora siporo yo kwiruka, kandi siporo ni ubuzima bwiza, aratuje, ameze neza. ari mu njyana y'ibyo arimo, kandi arimo abikora neza.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa tenisi, ni ikibuga cyiza, giterereye, gitunganije, ni ikibuga kirimo imirongo yateganijwe mu ikibuga, gifite amashanyarazi, kiri hafi y'umuhanda, hafi y'ibiti bishobora gutera amahumbezi, ni ikibuga gisobanutse.

umuntu uri muri siporo y'igare arimo gukoresha igare rya siporo, yambaye ibikoresho byabugenewe, ari mu muhanda wa kaburimbo, arimo agenda ari muri siporo, ameze neza, ari ahantu heza, kandi abantu bamwitayeho.

Hano haragaragara abantu batandukanye bari mu isiganwa ry'amagare cyangwa se bari muri siporo y'amagare, aho abandi bantu bari mu nkengero z'umuhanda, barimo gufotora abari muri siporo, cyangwa se bari mu isiganwa ry'amagare, inzego z'umutekano turimo turazibona, bacungiwe umutekano kugira ngo hatagira igihungabanya abari mu isiganwa. Siporo ni ubuzima.

Ikibuga yakinirwagamo umukino wa baskete, abanyeshuri b'ingeri zose uyu mukino barawukunda. Abanyeshuri baje gufana kugira ngo bakomeze bakurikirane aho intsinzi igomba guturuka.

Umupira wa basiketi, ikibuga cya basiketi kigaragaramo paniye, aho abantu barimo gukina biteguye gushyira muri paniye, kugira ngo babe batsinze igitego.

Hano hagaragara imodoka igeze mu muhanda w'igitaka, iri mu masiganwa y'imodoka, aho imbere haba uri kuyivura cyangwa se n'undi bari kumwe bambaye kasike; bisobanura ngo bari muri siporo y'isiganwa ry'amamodoka, hanyuma mu nkengero z'umuhanda hari abantu barimo gukurikirana iryo siganwa cyangwa se iyo siporo uko biri bugende.

Ikibuga cyiza cyane gikinirwamo umukino wa basiketi ni ikibuga kirimo gikinirwamo umukinnyi ,hafi aho ngaho hari intebe zabugenewe abantu bicaramo iyo barimo gukurikirana umukino.

Umuhanda wa kaburimbo ukoze neza urimo ibirango byabugenewe urimo gukorerwamo isiganwa ry'amagare, aho abantu bose barimo gusiganwa bari mu mujyo umwe, bari mu cyerekezo kimwe, barimo gusiganwa, ntawuvundiye undi, nta wugiye mu cyerekezo undi atarimo, birimo gukorwa neza.

Abakinnyi bari muri sitade, bagiye gutangira gukina umukino wa tenisi. Ubusanzwe iyo abakinnyi bagiye gutangira gukina umukino, babanza gukora udusiporo duto, dutuma imitsi irambuka. Bagashyuha bakinjira mu gikorwa bagiye kujyamo cyo gukina.

Abantu bari muri siporo yo gusiganwa ku magare. Siporo yo gusiganwa ku magare ni siporo ikorerwa mu muhanda wa kaburimbo, siporo imaze gutera imbere, aho abantu baba bambaye kasike buri wese afite igare rye rikoze neza, uwahageze mbere akaba ari we uhabwa amanota.

Ni abakinnyi biteguye kujya muri siporo bagiye gukina umukino wa Basketball, bari kumwe n'abatoza babo bahagaze mu kibuga bari imbere ya stade, bariteguye bameze neza mu kibuga giteguye gifite isuku kigaragara neza.

Hano hagaragara ikibuga cya tenisi ndetse n'abakinnyi barimo gukina umukino wa tenisi. Ni ikibuga kiri ahantu mu busitani bwiza hari ibiti bitanga umuyaga ikibuga kiri ahantu hameze neza.

Hano ni ikibuga cy'imikino. Hakagaragara n'imyanya yagenewe abafana muri sitade. Kandi hakongera hakagaragara imyanya yateguriwe abakinnyi b'abasimbura ndetse n'abayobozi. Hafite isuku, hameze neza, harateguye. Ikigaragara cyo bitewe n'imiterere y'aha hantu uko hagaragara, ntabwo habangamira abakinnyi n'abafana.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ahantu hagenewe inzira y'abagenzi b'amaguru, ifite ibirango bitandukanye kandi byagenewe kujya mu muhanda, abanyonzi barawifashisha abanyamaguru barawifashisha mu kugenda. Ni muhanda uri hafi y'ibikorwa remezo, hafi y'amazi hafi y'amashuri hafi y'amashanyarazi, ni ahantu heza hatuje kandi hameze neza.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza ibice bitandukanye, n'ibimenyetso bitandukanye, hari ikimenyetso cy'umukara ndetse n'umweru kigaragaza ahantu inzira y'abagenzi igarukiye ,hari umurongo w'umweru ugaragaza ahantu kaburimbo igarukiye ,ni umuhanda wa kaburimbo umeze neza ukoreshwa n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uca hagati y'amazu y'ubucuruzi, ugaca hagati y'amazu atuwe, ni umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru, ugakoreshwa ni ibinyabiziga, ni umuhanda umeze neza.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze imbere y'amazu, umuhanda ufite imirongo y'umweru, ufite imirongo y'umuhondo, ufite n'ahagenewe inzira y'abagenzi. Ni umuhanda umeze neza kandi abaturage bagendamo banezerewe bafite umutekano.